Amagambo yanditse mu cyongereza yerekana umubare w'amafaranga, amazina y'uwakira amafaranga, nimero ya terefone ye, n'amafaranga agiye kwakira, n'uburyo bwo kwishyura ayo mafaranga.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'icyongereza, avuga izina, aho bigeneye, aho bandikira umukono, itariki, ndetse n'ikirango cy'ibiro.

Abagore bahagaze mu isoko ryaremye ry'imbuto, imboga, inyanya harimo abagurisha, abagura bahagaze mu muhanda w'igitaka.

Inyubako igezweho y'ibara ryera y'amagorofa menshi afite ibice bibiri bisa nk'amazu yo guturamo cyangwa hoteri, ifite ubusitani bubungabunzwe neza n'inzira nyabagendwa igana kuri iyi nzu, handitseho dore aho ubona ku madorari ijana na mirongo itanu ijoro rimwe n'amadolari igihumbi maganinani ku kwezi.

Abagabo bane bahagaze mu cyumba kimanitsemo amasakoshi menshi y'abagore hamwe n'inkweto ziteretse ku tubati ndetse n'ibikarito.